Akazu k'umutuku ka Airtel, kandiditseho airtel money, hari n'ikindi cyapa cy'umuhondo cyanditseho MTN, aka kazu karafunguye ariko nta muntu ukicayemo. Impande yako kandi hari inyubako isize amarangi y'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku n'amataratara, impande ye hari undi muhungu uhagaze, wambaye ijile yanditseho MTN. lmpande yabo kandi hari umutaka wa MTN, wanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego, hafi yabo kandi hari n'umuntu wicaye wampa ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki yambaye n'inkweto z'umukara. Abantu bari mu nama kandi barimo bambaye amashati y'umweru, amapantaro y'umukara, imbere yabo hateretse ameza ariiho gitambaro cy'icyatsi.

Aha ni muri bare harimo inzoga zanditseho Heineken kuri icupa rya heineken hashushanyijeho akanyenyeri k'umutuku, hari na mitzing ndetse na fanta, ziri mu macupa ya palasitike, afite umufuniko w'umuhondo.

Ibiciro by'amakayi bigenda bizamuka umunsi ku munsi aho dusanga ikayi yaguraraga ijana ubu isigaye igura amafaranga magana abiri mirongo itanu, aha ngaha rero ni mu iduka ririmo amakayi menshi azwi ku izina rya musana atondetse hamwe harimo aya paje cumi n'esheshatu, ay'impapuro magana abiri ndetse n'ay'impapuro mirongo ine n'umunani.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hari umugore uhagaze, wambaye ikote ry'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye n'impeta n'amaherena, afite ibisuko mu ntoki arimo gutanga ikiganiro, impande ye kandi harimo umukobwa wambaye agapira k'umutuku, ikote ry'umukara n'amaherena, hirya ye kandi hari undi mukobwa nawe arimo kumureba.

Mu rusengero harimo abantu bishimye wanakuramo kubyina harumu umugabo wambaye ikote ry'umukara umunsi amaboko hari umugore wambaye ikanzu yumutuku wambaye ikanzu yubururu ndetse imbere yabo harumu umugabo urimo kuvuza ingoma.

Abagore benshi bicaye hamwe bose biteza ibitambaro mu mutwe imbere yabo hari ibikapu by'imideli hari bimo amabara y'ubururu, umutuku, haribimo amabara y'umuhondo, icyatsi, impande yabo kandi hari mare ndetse ubona ko bose barimo kuganira bahuje umugambi.

Mu rusengero harimo abantu bahagaze imbere bambaye amakanzu y'umweru n'udupfukamunwa, hagati yabo harimo padiri yambaye igishura cy'umweru n'ikindi cy'icyatsi afite inkongoro mu ntoki, hari umugore uhagaze wambaye imyenda y'ibitenge ateze amaboko hari n'undi mugabo nawe arimo kunama wambaye ikote ry'umukara.